Umubumbe w'isi bigiraho mu mashuri ya pirimeri, uzengurukijwe n'udutako tw'amabara atandukanye nk'umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Ahifashishwa nk'ubukarabiro, ahenshi hasangwa ku bigo bya Leta, nk'amashuri, ibitaro n'ahandi hagendwa n'abantu benshi, bakarabira intoki birinda gukwirakwiza indwara zandura.

Ibikoresho bizwi nk'ibikinisho byigishirizwaho abana batoya bo mashuri abanza. Amagurudumu mu mabara atandukanye ndetse na ballon.

Imitako myinshi itandukanye ihurije hamwe mu mabara adasa nk'umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu.

Iyi shusho iragaragaza ishuri, ishuri riri mu mabara atandukanye, hariho imibare n'inyuguti, imibare kuva kuri rimwe, kabiri, gatatu, kane, inyuguti a b c d.

Inyubako nini izwi nka refegitwari, abanyeshuri bafatiramo amafunguro mu gihe bari ku ishuri, hagaragara abanyeshuri bambaye impuzankano nk'ishati y'umweru ndetse bafite n'ibikoresho birimo igikoma.

Ikirango kizwi nk'icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho Kagitumba high school p.o.box 24 Nyagatare.

Iyi shusho iragaragaraho ibihangano bibumbye mu ibumba. Bifite amashusho atandukanye, biteretse ahantu hamwe.

Umubare mwinshi w'abantu batandukanye b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bambaye imipira izwi nka rakosite iri mu ibara ry'icyatsi, ifite uturango tw'umweru tuyometseho, imbere y'aho bicaye hateretswe amazi ari mu icupa.

Ibihangano bya kera bibumbwe hakoreshejwe intoki biteretse mu kabati mu mashusho atandukanye byifashishwa nk'igicumbi cy'amateka.

Iyi foto iragaragaraho abantu benshi batandukanye. Ikaba iriho umugabo ugenda afashe ibintu mu ntoki ndetse n'abanyeshuri benshi biga...